Abaturage basa nk'abicaye mu nteko y'akagari, bafite impapuro n'amakayi bari kwandika, ni abagore n'abagabo ubona ko bari mu nama bari kwandika, bari mu myigire y'uburyo ubuzima bwabo bwagenda bufatwa mu kagari neza.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu n'ingofero y'ubururu n'gapfukamunwa, ari kwikoreza umwana akarerekani k'amazi, n'undi muzungu ku ruhande arigufotora n'abandi bantu bari ku ruhande bari kureberera.

Umubyeyi usa nkaho akuze n'umwana usa nkaho ari muto, umubyeyi arimo afasha umwana kumwereka uko bakaraba intoki neza kandi zisukuye, umubyeyi afashe ikiganza cy'umwana amwigisha uko bakaraba intoki.

Serenge esheshatu, agakombe kabikwamo urukingo rwifashishwa kwa muganga mu gukingira indwara abarwayi n'abantu bazima mu gihe hateye icyorezo runaka.

Ihuriro ry'abantu b'ababyeyi cyangwa se inkumi n'abasore, bahuriye hamwe baganira ku byabayeho mu guhumurizanya, bafatanya kwirinda ikibazo cyo kwiheba no guheranwa n'agahinda.

Umusore uhagaze ku rukuta, wambaye agashati k'igitenge gasa ibara ry'umuhondo, arararamye ari kureba hejuru, asa nk'ufite ibibazo byinshi byamuteye kugira ikibazo mu mitekerereze.

Abantu bari mu bukangurambaga ari benshi, mbona ikiranga ikipe yabo ari imipira y'ubururu, ubukangurambaga burimo ni ubwo gutera ibiti, ubufasha mu kugira ubutaka bukomeye.

Umukecuru ushaje wambaye igitambaro cyo mu mutwe gisa umweru, amaherena ndetse n'urunigi mu ijosi, usa nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe.

Inama y'abayobozi iri kwiga ku bijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, umugore afashe ijambo ari kuganira n'abandi bagore bamukurikiye kandi bamuteze amatwi yombi.

Abagabo babiri ndetse n'abagore batatu ndetse n'umwana umwe bicaye ku kabaraza k'inzu, ku ntebe zirambuye, basa nk'aho bari kuganira ku bijyanye n'imibereho y'ubuzima bwo mu mutwe, baganirizwa n'umukobwa muto, bo bicaye hagati, wambaye agapira k'ubururu.

Umuganga ushinzwe uruganizo. Abantu ubu bafite kwiheba ari kuganiriza umusore ku buryo yareka guheranwa. Umusore ubona nkaho afite agahinda n'ibibazo byinshi cyane.

Umugabo wishimye ari kwihanaguza akagozi koza hagati na hagati h'amenyo, ahari imyanda idakurwamo n'uburoso, akagozi kakaba gakuramo imyanda yananiranye.

Umukobwa muto udakuze cyane, mu ishuri ari kumwe n’abana babanyeshuri bato biga nko mu wa kane w’amashuri abanza, basa nk’aho ari kubigisha ibyo koza amenyo neza, abafite uburoso babumanitse ubona ko bari muri gahunda yo kwita ku menyo.

Umugabo w'umwirabura yambaye agapira kajya gusa umweru, afite inyuma agatambaro kamuteretseho, yicaye ku ntebe bavuriraho amenyo ndetse urabona ko yiteguye kuvurwa amenyo.

Umusaza ukuze ndetse n'umuganga w'umusore, umusaza wambaye ishati ya kake, umusaza ufite imvi, umusore wambaye itaburiya y'ubuganga ndetse yambaye n'icyuma gipima uko umutima utera, ukibona ko ukiri muto ufite ubwanwa ari kwereka umusaza uko akoresha ibyo amuhaye.

Abakecuru bashaje bicaye hasi, hari n'abicaye ku ntebe hejuru, bari mu rutoki, bameze nk'abari guhabwa ibiganiro, bisa nk'ibyo kuganiriza abantu bakuze, kumenya ubuzima bwo kwita ku ndwara zo mu mutwe.

Abakecuru bashaje bari kumwe n'urubyiruko bicaye mu gacaca bari kuboha utwibo ndetse baganira batera urwenya banaseka ndetse n'umuzungu uteruye akana bisa nkaho ari abantu bafite gahunda yo kwita ku bantu bakuze.

Umusaza usa nkaho akuze n'abana babiri bakiri batoya bari gufata ifunguro, umusaza ari kurya biswi umwana umugati. Undi afite akajerekani karimo amata.

Umusaza ukuze, yambaye ishati y'ibara ritukura, akambara amarinete, afite ikaramu mu ntoki, afite n'igitabo ari gusoma, asa nkaho anandika kugira ngo akomeze gusaza mu mahoro.

Umukobwa muto ndetse n'umusaza mukuru, umukobwa muto usa nkaho ari we utanga serivisi zo kwita ku basaza n'abakecuru bakuze, arimo arakoresha umusaza imyitozo y'ingorororamubiri, bafunga bafungura ibipfunsi.

Umukobwa muto uri kumwe n'umukecuru bari gukina amakarita bisa nkaho bari mucyo twakwita ko bari kwita ku bakuze, ariko basa nkaho bishimanye baseka, ubona ko bari kwita ku bakuru.

Mu cyumba cy'inzu bakoreramo imyitozo, ahari amagare cyangwa se ibyuma bifasha abantu gukora imyitozo birukanka cyangwa se banyonga amagare ariko atava aho ari, bikabafasha mu kugabanya ibinure mu gufasha amaraso gutambuka neza.

Ku kigo nderabuzima aho ababyeyi baherwa ibiganiro by'uko barera abana, kubakingiza ndetse bagahabwa n'imfashanyigisho z'uko bakwita ku buzima bwite bw'abana babo.

Umuforomo wambaye imyenda y'icyatsi, ari gutembera mu nzu abarwayi baryamamo, mu gihe bakivurwa, bakiri no kwitabwaho n'abaganga.

Mu bitaro kwa muganga aho basuzumira indwara ndetse n'aho umuganga aba yicaye akurikiranye uko umurwayi afite ameza, hagizwe n'intebe zitukura ndetse n'inkuto z'umweru irido ratogo hakaba ahagizwe ndetse na prita.

Mu irushanwa ryo gusiganwa n'amaguru cyangwa se marato, harimo umukinnyi usa nk'uwagize ikibazo ndetse n'umuvolonteri umufashe ku rutugu, ukora nk'umuganga w'abakinnyi, wita ku bakinnyi bagiriye ibibazo muri siporo.

Indyo yuzuye igirwa n'imbuto, ibyubaka umubiri ndetse n'ibikomeza umubiri ndetse n'ibirinda umubiri, ibi byegeranye n'ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo, byose bifatwa nk'ibirinda umubiri kandi bikanawukomeza.

Igikombe cy'ikirahure ndetse n'icupa ry'ikirahure, igikombe kirimo kirasukwamo amazi, amazi bikagaragara nk'aho ari amazi agiye kunywebwa kuko ari amazi asukuye neza.

Umusore wicaye ku muhanda, agasengeri k'umukara, afite icupa ry'amazi mu ntoki, ari kunywa amazi nk'umuntu uri kuruhuka uvuye mu myitozo ngororamubiri, usa nkuwananiwe.

Mu nzu bakoreramo imyitozo umusore cyangwa se umugabo ari guterura icyuma cyongera ububyimbe mu mubiri, azamura anamanura kugira ngo yongere ubukomere bw'umubiri we.

Mu muhanda izuba risa nkaho rirenze, umuntu runaka ari kwifata ku ivi yikanda, yari ari muri siporo, bisa nkaho yagize ikibazo mu ivi, mu gihe yari ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Amavuta akoze mu buryo bwa kinyarwanda avuzwe mu icunga, indimu ndetse n'ibindi, akabaye yarakozwe n'abavuzi ba kinyarwanda ndetse akaba ari n'umuti w'abakurambere.

Isoko cyangwa se aho bacururiza imiti gakondo ivura indwara zananiranywe n'imiti ya kizungu iri gucuruzwamo n'umugore n'umugabo wundi urimo urahaha.

Ifu yasewe neza cyane, iri mu gipapuro cy'umweru ndetse ifashwe n'ibiganza biri kuyisya. Kigaragaza imiti ya kinyarwanda ivura umubiri w'umuntu ufite ibibazo byananiranye mu bitaro byo kwa muganga.

Akabindi ndetse n'agacupa ndetse n'agasahane ndetse n'imiti irundarunze, bisa nk'aho ari umuntu wari ugiye kuvanga ibintu ngo akore umuti wa kinyarwanda, imiti ya gakondo ivura indwara zananiranye kwa muganga.

Akabati gateretsemo amacupa ndetse n'imiti irimo umusaruro w'ibimera bikomoka ku byakozwe ndetse ari ibihingwa by'imiti ya kinyarwanda, yakoreshwaga n'abakurambere izwi ku izina ry'imiti gakondo, ikoreshwa n'abavuzi gakondo.

Ibyatsi by'imiti ya kinyarwanda byitwa Isogi, byifashishwa mu kuvura imivuduko, babitekana n'ibindi biryo bisanzwe bakabirya, hanyuma bigafasha mu kugabanya imivuduko, n'imibyibuho ikabije mu mubiri w'umuntu.